Umugabo ufashe mikoro mu ntoki, n'agapapuro k'umweru. Uwo mugabo yambaye amakoti y'umukara n'ishati y'umweru, ameze nk'aho ari kwigisha abantu bari inyuma ye.

Umugabo w'umupolisi uhagaze imbere y'abantu benshi bameze nk'abayobozi b'abapolisi. Harimo n'abantu bambaye amakanzu y'umweru n'udupfukamunwa tw'umweru, n'utugofero tw'umweru. Impande yaho hariho icyapa cyanditseho Ranshe ofu otomobire ensipegishoni senta.

Abagabo benshi bahagaze bambaye amabote y'umukara, n'imyenda y'umukara, ameze nk'aho abo bagabo ari abanyerondo, inyuma yaho hahagazeho, abandi bantu benshi bari kubareba

Umupolisi uhagaze wambaye imyenda y'umukara, n'ingofero y'umukara, akaba yambaye n'ikote ririmo imirongo y'umweru. Akaba yamanitse akaboko, ari guhagarika imodoka ziri kugenda mu muhanda.

Umugore uhagararanye n'umupolisi umupolisi, wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara, bafashe ikintu kimeze nk'igifoto. Uwo mugore yambaye akantu k'umukara mu mutwe , n'ijipo ifite amabara y'umweru n'umukara.

Abagabo bicaye, bameze nk'aho abo bagabo harimo abayobozi, hariho abasirikare, n'abagabo bambaye amakoti, harimo umugabo uhagaze wambaye agashati k'umweru , n'ipantaro y'umukara.

Abagabo bari mu bwato, bambaye imyenda y'umukara, n'amajile y'umutuku, abo bagabo bari mu bwato bwanditseho polisi, bari kurohora abandi bagabo bari mu mazi bambaye imyenda y'umukara.

Abagabo bahagaze b'abadaso bambaye boti, abandi bambaye butini , mo hagati hariho umupolisi n'umusirikari, n'undi mugabo uri mo hagati wambaye ishati y'igitaka, ipantaro y'igitaka.

Amatara atatu ari kwaka amabara atandukanye, amabara atatu iry'umutuku, n'iry'umuhondo n'iry'icyatsi ari kugira ngo yake abantu batambuke.

Urujya n'uruza rw'abantu. Imodoka zirahagaze na moto zirahagaze. Umuntu ari kwambuka mu muhanda zategereje ko abantu babanza kwambuka mu muhanda. Uwo muntu yambaye imyenda y'umukara ari afite n'agakapu k'igitaka.

Abagabo bameze nk'aho bari mu bwato. Aba bagabo bakaba bari mu bwato bwanditseho polisi, hakaba harimo abicaye bambaye amajire, hariho n'umwe uhagaze ameze nk'aho ari gukurura abandi bagiye mu mazi.

Abantu benshi bahagaze basa nk'abadaso, bambaye imyenda isa nk'icyatsi, bambaye n'amabote y'umukara.

Abantu benshi bicaye ahantu, bameze nk'aho bari gukora inama, hahagazeho umuntu w'umugore n'umugabo wambaye imyenda y'icyatsi, hariho abantu bambaye imyenda itandukanye, iy'umweru n'ubururu n'umukara, bameze nk'aho bari gukora inama.

Abantu bameze nkaho ar'abayobozi bicaye ahantu, hariho umwe uhagaze w'umusirikare ufashe na mikoro, har'abandi bicaye harimo n'umupolisi umeze nkaho uri kwandika.

Abasirikari bameze nkaho bari kwirukanka ahantu mu murima umeze nkaho udahingwamo, abasirikare bakaba bambaye imyenda isa nk'umukara, bafite n'imbunda mu ntoki zabo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'agashati k'umweru n'ipantaro y'umukara. Abantu bicaye bari kumwumva ibyari kuvuga. Ku mpande hariho umupolisi urundi ruhande hariho umusirikare. Mo hagati harimo umugore wambaye ikanzu y'umweru.

Umugabo w'umupolisi uhagaze imbere y'abandi bantu ari kuvuga ijambo, yambaye imyenda y'umukara y'abapolisi hariho n'idarapo ry'u Rwanda, uwo mugabo akaba afashe mikoro yambaye n'isaha ahagaze imbere y'abandi bapolisi n'abandi bantu.

Abantu benshi bitwikiye imitaka, bari kureba umugabo uri kubabwira ijambo. Uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'igitaka, n'amarineti y'umukara, akaba afashe mikoro mu ntoki n'urupapuro.

Abantu bicaye ahantu bameze nk'aho bari kumva inama. Imbere hicayeho abantu bameze nk'aho ari abayobozi bari gukoresha iyo nama. Abo bantu barimo ingeri zitandukanye.

Abantu bari kwaruza mu bukwe hateretseho amasafuriya, hariho abandi bahagaze bategereje kwarura, hariho abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, abagore bambaye ibitenge bipfutse no mu mutwe, abagabo bambaye n'amakoti.

Abantu benshi bicaye ahantu, bameze nk'aho abo bantu bari kumva inama. Aho bantu bakaba barimo ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo, bari ku inama.

Abantu benshi bahagaze, hariho umugabo w'umusirikari ufite mikoro, hariho n'umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro yigitaka, ufite n'imisatsi yarayizinze.

Inka zimeze nk'iziri kunywa amazi ahantu habugenewe bazubakiye zigomba kunyweramo amazi . Izo nka zirimo izisa nk'umukara zifite amahembe maremare y'umweru izo nka ni Inyarwanda.

Ibyibo biteretse ahantu, hariho igitambaro gisa nk'umuhondo, ibyo byibo bikaba bifite amabara y'umweru n'umukara n'igitaka n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze ahantu bameze nk'aho bashaka kugura ikirago. Aba bantu bambaye imyenda itandukanye iy'umutuku n'iy'umukara, hariho abantu benshi bameze nk'aho bari guhaha.

Umuntu umeze nk'umwami wa kera, uwo muntu akaba yambaye hejuru akantu ka kenda gasa nk'umweru, umukara, akaba yambaye akantu k'agakanzu kariho uturongo tugiye tumanitse akaba afashe n'inkoni mu ntoki.

Abantu bameze nk'aho ari intore, abo bantu bakaba bari kubyina bishimye, bafite imisatsi miremire, bafite n'ututuntu tumeze nk'amacumu mu ntoki, bambaye nk'amayugi mu maguru yabo, aba bantu bakaba bambaye n'amakanzu asa n'umweru n'umukara.

Abantu bameze nk'aho bari mu bukwe, abo bantu bakaba bose bafashe imiseke, bakaba bashyize mu ndobo irimo inzoga, aba bantu bose bakaba bari gusangirira muri iyo ndobo.

Abagore bameze nk'intore, bari kubyina. Aba bagore bameze nkaho bishimye, bambaye amashati y'umweru n'umukara, bambaye n'amayugi ku birenge, abandi bari gucurira.

Inzu zisa n'aho ari iz'abami ba kera, zubakishije imbingo, imbere yaho hariho irangi ry'umutuku n'umweru, impande yaho hariho ibiti n'ibyatsi.

Abantu babiri bahagaze, bameze nkaho uwo mugabo ari umwami ari kumwe n'umugore, uwo mwami wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'umukara, n'uwo mugore yambaye utuntu tw'utuzeru mu mutwe tw'umweru n'agatambaro k'umweru.

Abagore bameze nk'aho ari ntore, bari kubyina bambaye udusengeri tw'umukara, n'amajipo y'umweru, bafite n'amacumu y'ibiti.

Amasaka atari yera aba ari mu murima. Iyo yeze barayaca bakayajyana mu rugo. Nuko bakayanika, bamara kuyanika bakayahura, nuko bakayashyira mu mifuka yabugenewe.

Abantu bashungeye umugabo urigusimbuka umugozi, ukwari gukora siporo kuko ni byiza bituma amaraso atembera mu mubiri, hariho abandi bagabo bambaye ubusa hejuru bategereje gusimbuka uwo mugozi.

Umutiba bagikamo, ni uko hakajyamo inzuki, inzuki ni uko zigakora ubuki. Ubuki ni bwiza, butuma hiyongera intungamubiri mu mubiri. Umutiba uteretse hasi, impande y'inzu ifite urugi, iyo nzu ikaba iteye ibyondo.

Abakobwa bari kubyina bambaye imyenda isa, n'udupira tw'umuhondo n'amakanzu asa nk'umukara n'umuhondo, bakaba bari kubyina intore.

Umugabo umeze nk'aho ari umwami wa kera, wambaye inigi mu ijosi no mu mutwe, washokoje igisunzu, witeze agatambaro.

Umugore umeze nkaho ari gucuruza ibishushanyo bitandukanye, hariho umuntu hariho n'inyamaswa. Uwo muntu uri kubicuruza akaba yambaye agapira k'umutuku n'umuhondo.

Abantu bambaye imyenda y'umweru n'umukara, n'utuntu tw'utuziriko mu ijosi dusa nk'umweru n'umukara. Aba bantu bafashe inkoni, bameze nk'aho ari intore bari kubyina ahantu.

Abantu babiri bameze nk'abami ba kera, abo bantu bafite imisatsi imeze nk'isokoje. Umuntu umwe akaba ku ruhande hariho ikintu kimeze nk'uruhara.

Abantu bameze nk'aho ari intore, bambaye imyenda y'umutuku n'umweru, harimo abagabo n'abakobwa bari kubyina, bari kubyina ahantu, imbere y'inzu imeze nk'aho ari iy'umwami, hajitije n'ibintu bimeze nk'imbingo.

Abantu bahagaze ku murongo bari gucurira, bambaye imikenyero isa, mu nda bambariyemo udusengeri tw'umukara, bambaye n'ibinigi bisa nk'umutuku n'umukara. Bari gucurira bari kuririmba indirimbo.

Umugabo wambaye akagofero, wambaye n'igisurubeti cy' umukara, ameze nkaho ari ku bintu by'ibibogisi ,ameze nkaho uwo mugabo ashaka kuhakura ubuki ,inyuma ye hariho insina n'ibirere byinshi.

Intore ziri kubyina zambaye imyenda itandukanye harimo ab'ingeri zose abagabo n'abagore, umugabo yambaye inkweto z'umukara, yakenyeye n'igitenge gisa nk'ubururu, abagore bambaye udukenyero tw'umuhondo n'udupira mu nda dusa nk'umutuku.

Igisabo giteretse ahantu hacyonyine, ni igisabo bazirikishije utuntu tumeze nk'utuziriko kikaba gisa n'umuhondo.

Intore yambaye imisatsi, yambaye n'imigozi mu mwijosi y'umweru n'umukara, ikenyeye n'agatambaro k'umweru n'umukara, ifashe n'umwambi n'umuheto mu ntoki.

Agati kameze nkaho ari akarabo; ako gati gafite amababi asa nk' ubururu, andi mababi asa nk' umweru hariho n' utundi tuntu tw' uduti dusa nk' umutuku.

Ibirago bibiri biteretse ahantu kwitaka. Umuntu afashe n'akaboko kamwe ibyo birago ameze nk'aho ariwe umaze kubiboha . Mu Rwanda abantu bakunda ibirago.

Abantu bameze nkaho bari kugosora ingano, bambaye imyenda y'umweru, bambaye n'ingofero z'umutuku. Impande yaho hateretseho umufuka w'umweru bari gushyiramo izo ngano.

Abana bari gusimbuka umugozi. Gusimbuka umugozi ni siporo nziza, kuko bituma amaraso atembera mu mubiri neza. Hariho abambaye ubusa n'abandi bakenyeye ibitenge. Uwo mwana uri gusimbuka umugozi yambaye agapira k'umweru, yakenyeye n'agatenge k'umukara.

Umugore wikoreye ikibo, uwo mugore akaba yambaye ishati y’umuhondo, ijipo isa n’umukara. Ameze nk’aho ari kubyina. Uwo mugore yishimye.

Abagore bameze nk'abari kubyina. Abo bagore bambaye utuntu tw'umweru mu mutwe, bambaye imikenyero isa nk'ubururu. Inyuma yaho hariho ibintu bimeze nk'amatara biri kugenda biri kwaka.

Umusaza wambaye akagofero, sinzi ikintu afite mu kanwa, bamumutunze mikoro, yambaye ikoti ry'igitaka, mu nda yambariyemo agashati n'undi mupira w'umutuku.

Umuriro mwinshi bawucanye, batetse mu nkono, mu nkono ya kinyarwanda. Uwo muriro bakaba bawucanye ku mashyiga, hateretseho iyo nkono batetsemo.

Intore ziri kubyina zambaye amayogi, bambaye n'ibitenge by'umweru, bambaye n'utuntu tw'umweru mu majosi, bafite n'imiheto, hirya yaho hariho inzu y'ubwami bwa kera.

Ahantu hameze nkaho, ari mu kirori, kuko intore ziri kubyina zishimye, zambaye utubodi tw'umukara, n'amayugi mumaguru bari kubyina bishimye.

Umugabo umeze nkaho afashe umuheto. Uwo mugabo ameze nkaho hari ikintu ashaka kurasa, uwo mugabo wambaye ikote ry'igitaka, uwo mugabo akaba afite umusatsi w'injwiri.

Abantu bameze nk'aho bari kuvuza ingoma. Abo bantu bakaba ari abagabo bambaye imipira y'umweru, imikandara y'umukara n'amapantaro y'umweru.

Umuntu w'umugabo, umeze nk'aho afashe umwuko mu ntoki, uwo mugabo akaba yambaye ikoti risa n'umukara, n'ipantaro isa nk'umukara, n'agashati gasa n'igitaka, n'agakoni mu ntoki.

Umuntu uri gusekura isombe. Isombe ni nziza kuko ni imboga abantu barazikunda. Uwo muntu akaba yambaye agapira k'igitaka n'igitenge, n'udukweto dutukura, ku ruhande hariho izindi nini.

Inzu iriho igisahani cyanditseho canari, gifite amabara y'umweru n'umukara. Impande yaho hariho igipoto cy'umuriro w'amashanyarazi, inyuma hariho n'ibiti.

Akantu kameze nk'akamashini , ako kantu wagira ngo bagacomeka ku muriro , kuko gafite umugozi wo gucomeka ku muriro bakagakoresha ikintu kagenewe gukora.

Akantu kameze nk'aho ari ipense bakoresha bari gukora umuriro w'amashanyarazi. Ako kantu kakaba kameze nk'aho karambitse ku kintu, kakaba gasa nk'umweru n'umuhondo.

Inzu imeze nk'aho ari inyubako basengeramo, kuko hejuru hariho umusaraba, hasi hari n'undi musaraba binjiriraho mu muryango munini. Iyo nyubako ikaba ifite amabati asa nk'ubururu n'imiryango isa nk'umukara.

Umugabo uri kugenda hasi ku nyubako, inyubako y'igorofa irimo abantu bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu, uwo mugabo afashe terefone ari guhamagara, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'igitaka.

Abantu bahagaze barimo abagore n'abagabo, bambaye amajire, bambaye n'ingofero z'umweru n'amapantaro y'umukara, hirya y'aho hariho inyubako imeze nk'aho ari ishuri.

Umuhanda umeze nk'aho hariho ikiraro, hariho imodoka ziri koza zigiye kwambuka kuri icyo kiraro, gifite amarangi y'umukara. Hahagazeho umugabo wambaye boti z'umukara n'ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru n'akagofero k'umweru.

Abantu bicaye ahantu bameze nk'aho sinzi ikintu bategereje. Abo bantu bambaye imyenda y'umukara impande yaho hariho umugabo wicaye kuri moto, wambaye imyenda y'umukara. Inyuma yaho hariho amadarspo abiri harimo n'iry'u Rwanda.

Imodoka ziparitse ahantu mu kibuga. Imodoka imwe isa n'umukara, indi isa n'igitaka. Isa n'igitaka isa n'iyakoze impanuka. Indi iparitse neza isa n'umukara nta kibazo ifite. Impande yaho hariho inzu ifite amabati y'umutuku ateye irangi ry'igitaka.

Abantu bahagaze ahantu hameze nk'aho ari mu kigo cy'amashuri, hari icyapa cyanditseho IPRC Ngoma. Aba bantu hakaba harimo abagore n'abagabo, bambaye udupfukamunwa tw'umweru, abagabo bambaye amakoti y'umukara, abagore bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara.

Inyubako imeze nk' urusengero, hasi hariho abantu bakiri bato, hariho n'abandi bari mu nzu bari gukoropa bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye iy'ubururu n'iyi'icyatsi, hanze hariho ka jaride hakikijweho n'indabo.

Umugabo uri kugenda mu muhanda hejuru, hasi hari umuhanda urimo akarongo k'umuhondo, hakurya hari kunyuraho abandi bantu barimo abakobwa, hirya hariho igipangu cyubakishije amatafari.

Abagabo bameze nk'aho bari kugenda bameze nk'abasirikare, hariho umusirikare umwe mo hagati wambaye akagofero k'umutuku, imyenda y'abasirikare n'inkweto z'umukara, n'abagabo bambaye amakoti y'umweru n'ishati y'umweru n'amakoti y'umukara.

Abantu bahagaze ahantu hanze ku nzu, ifite imiryango isa nk'umweru, hari abandi bantu bari hirya bameze nkaho bari gukaraba, hariho n'abandi bahagaze kuruhande.

Inzu zimeze nk'amagorofa. Izo nzu zimeze nk'ikigo cy'amashuri, izo nzu ziteye amarangi asa nk'umweru. Izo nzu zikaba ari nyinshi zikaba ari inzu zimeze neza.

Inzu y'inyubako imeze nk'aho ari ikigo runaka. Impande yaho hariho umuhanda uri kunyuramo akamodoka gasa n'umukara, n'amapine y'umweru, n'umukara.

Abagabo bahagaze imbere y'inyubako, n'abagore batatu, n'abagabo batatu, bahagaze imbere y'inyubako imeze nk'aho ari ikigo cy'amashuri.

Inzu imeze nk'aho ari urusengero basengeramo. Iyo nzu imeze nk'aho ishaje, ifite amadirishya y'icyatsi hariho n'umusaraba w'umukara. Hasi hateyeho irangi ry'umukara.

Umugore wicaye imbere y'imashini. Uwo mugore akaba yambaye ikoti risa nk'umutuku n'umukara . Akaba yambaye n'ipantaro isa nk'umukara. Akaba yicaye ahantu wagira ngo bari kwiga ibintu.

Umugabo ameze nk'aho ari kubabaka. Uwo mugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu, akaba yambaye n'akagofero k'umutuku, yambaye na bote z'umukara, hasi hateretse n'ipiki.

Akayira kameze nk'aho kari kujya ahantu hameze nko ku rusengero hakaba hariho akantu kameze nk'akazitiro gafite amarangi y'umweru mu mpande yaho hariho ibiti.

Inyubako zimeze nkaho ari amashuri cyangwa se insengero zisakaje amabati y'umutuku, imiryango isa nk'igitaka n'amarangi y'umuhondo.

Ahantu hameze nk'aho ari ahantu mu kigo runaka hariho uruzitiro rw'ibiti, hariho n'igipangu giteye amarangi y'umukara, hari icyapa cyanditseho vive.

Iyubako y'igorofa hasi yaho hariho imodoka nyinshi, hariho n'indabo harimo n'insina, hagati mu mpande hariho indi nyubako yubakishije amatafari.

Inzu imeze nk'aho ari isoko, hakaba hariho ibintu byubatse mu gisima, hakaba hasakaje amabati asa nk'umutuku hariho n'ibyuma bimanutse bisa nk'umutuku.

Inzu imeze nk'aho ari urusengero abantu bajya gusengeramo. Iyo nzu hejuru yaho hariho umusaraba ishakaje amabati y'umutuku n'amadirisha ateye akarangi, impande yaho hajitije uruzitiro rw'amatafari, hariho n'umuntu uri gutambuka.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, harimo uturango tumanuye tw'igitaka. Iyo nzu ikaba imeze nk'aho ari urusengero basengeramo. Impande yaho hari izindi nzu bameze nk'aho bacururizamo.

Inzu imeze nk'aho ari urusengero basengeramo. Kuko hejuru hariho umusaraba, ikaba isakaje amabati asa nk'umutuku, ikaba ifite imiryango isa n'umutuku.

Inzu imeze nkaho ari urusengero, iyo nzu ikaba ishakaje amabati asa nk'umutuku, ifite n'amadirishya asa n'umukara n'umweru.

Inyubako zubatse ku murongo zimeze nk'aho ari ikigo cy'amashuri, hepfo hariho ibigega bibiri by'umukara, ku mpande hari n'andi mashuri, hariho n'ibyatsi, hariho n'uruzitiro, kubakishije amatafari matoya ahiye.

Inzu zimeze nk'aho izo nzu ari zo basengeramo hahagazeho umugore wambaye agashati k'umweru, ijipo y'umukara, akaba izo nzu zisakaje amabati y'umutuku.

Inyubako y'igorofa iparitseho imodoka, ifite amarangi y'umweru, n'amapine y'umweru, n'umukara, impande yaho hariho umugabo uri gutambuka, wambaye agapfukamunwa k'igitaka, n'akagofero k'igitaka , agapira k'umukara, n'ipantaro y'umukara.

Umuntu ufashe mikoro y'umukara, uwo muntu akaba yiteye agatambaro gasa n'igitaka. Mu mutwe hakaba harimo akandi gatambaro gasa nk'umweruru, inyuma hakaba hariho abandi bantu.

Uruvunge rw'abantu baremye inama kuko hari umugabo umwe uhagaze umeze nk'aho ari kubigisha afashe agapapuro mu ntoki, abandi bantu baramukurikiye barikumva ibintu ari kuvuga, abantu b'ingeri zose aba mama, n'aba papa, n'abakecuru.

Abantu benshi bicaye bameze nk'aho hari umuntu uri hagati uri kubigisha, bameze nk'aho bari mu nama, inyuma ya ho hariho inzu ishakaje amabati y'umweru, iteye n'umusenyi w'umweru. Harimo abantu, abagore n'abagabo bambaye imyenda y'umutuku n'umukara n'umweru.

Ahantu hahuriye abantu benshi bameze nkaho baremye inama, ni ahantu ku kigo kuko baricaye hari undi mugore umeze nkaho ari kubwiriza abo bantu bari kugira ibyo ababwira.

Abagabo babiri n'abagore babiri, bahagaze ahantu ku cyapa, bameze nk'abari kwifotoza bateruye utwibo. Wagira ngo ni igihembo babageneye, Utwibo dusa n'umweru n'umukara.

Abantu benshi bameze nk'aho bari ahantu habereye ibintu by'ibirori . Hariho abagabo babiri bahagaze ,bambaye amakoti y'umweru, amapantaro y'umukara, inkweto z'umukara n'umugore ufashe mikoro .

Umugore uri gusunika ingorofani . Iyo ngorofani ikaba irimo isanduku n'imifuka n'igikapu , hariho na matera . Uwo mugore akaba ahetse agakapu yambaye agapira k'umweru yakenyeye n'igitenge.

Umuntu wicaye mu modoka, iyo modoka iriho ibyuma bisa n'umuhondo, hariho undi muntu uri gukoza agakarita ku modoka, wambaye imyenda isa nk'ubururu budahiye.

Urujya n'uruza rw'abantu mu ngendo zigiye zitandukanye. Abantu bari gutega bari kwinjira mu modoka, bagiye gukora ingendo. Aba bantu bambaye imyenda itandukanye. Abambaye iy'imyeru n'imikara. Iyo modoka ikaba ifite amabara y'umweru n'umukara.

Abantu bari kugendera mu bwato. Abo bantu bakaba ari abagabo, umwe yicaye inyuma ari gutwara ubwo bwato afashe igiti, yambaye n'agashati k'umutuku, n'ipantaro y'umukara.

Imodoka zishoreranye zimeze nk'aho zipakiye ibintu. Impande yaho hariho abantu batwaye amagare bambaye imyenda y'umutuku n'umukara. Izo modoka zifite n'amarangi y'umukara n'umweru.

Imodoka zimeze nkaho ziri muri gare, izo modoka zikaba imbere yaho hariho abagabo babiri imbere, yabo hakaba hari icyapa cyanditseho Nyagatare basi parike.

Akagare gasa naho kegetse ku giti, icyo giti gishinze impande y'inzu yubakishije amatafari n'amabuye, ako kagare gasa n'umweru n'umukara, gafite n'amapine y'umukara.

Imodoka ziparitse ahantu ari ebyiri, impande y'aho hari akamodoka gatoya gasa n'umukara gafite amapine y'umukara n'umweru. Izo modoka ziteye amarangi y'ubururu, n'umukara n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu, hari abari kugenda n'amaguru n'abandi bari kugenda batwaye ama moto. Abamotari harimo abambaye amajire y'umutuku n'undi wambaye imyenda z'igitaka, yambaye n'inkweto z'umukara.

Abantu bahagaze bari gushungera, abandi bantu bari mu bwato, kuko bari kuroba amafi abandi bari koga, abantu bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye iy'igitaka n'utugofero tw'imituku n'abandi bambaye amapantaro y'umukara n'amajire.

Urujya n'uruza rw'abantu harimo abanyonzi n'abamotari, abanyonzi harimo n'amagare aparitse ku ruhande kariho imisego isa n'umweruru n'umukara.

Ikintu kimeze nk'indege gifunguye umuryango wo hasi, icyo kintu kikaba gisa n'umweru hasi hari sinzi ibintu biteretseho, icyo kintu gifite amapine y'umweru n'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu, hariho imodoka zifite amabara y'umweru n'umuhondo udahiye, hariho indi iri kugenda mu muhanda ifite amabara y'umweru, hariho n'abantu bagiye batandukanye, hariho hakurya n'inyubako ikorerwamo ibikorwa runaka.

Imodoka irimo abantu, iyo modoka ikaba iteye amarangi y'umweru n'umukara. Iyi modoka ikaba iriho n'amagambo yanditse "Kigali Siti Tawa."

Abagabo bameze nk'aho ari abamotari bicaye kuri moto zisa nk'umukara, zifite amapine asa nk'umukara. Abo bagabo bafite kasike zisa nk'ubururu bategereje abagenzi.

Abagabo bahagaze ku modoka, bameze nk’aho ari abakozi ba kampani runaka, bambaye utugofero tw’umuhondo, n’ibisarubeti by’icyatsi, na bote z’umukara.

Uruj n'uruza rw'abantu hariho abamotari, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Umumotari ahetse umugenzi inyuma, umumotari yambaye akajire gasa nk'ubururu na kasike zisa nk'ubururu.

Imodoka zimeze n'aho zishoreranye, izo modoka ziri kugendera mu muhanda uciyemo uturonko tw'umuhondo, izi modoka ziteye amarangi y'umweru n'ubururu, impande yawo hariho indabo n'amatara, n'inzu zimeze nk'aho ari amagorofa.

Abagabo babiri bahagaze kuri lifani bameze nkaho bari kwifotoza iruhande rwabo hahagazeho umugore umeze nkaho ahagaze kuruhande wambaye akajire, abo bagabo bambaye ibisurubeti bisa nk'ubururu budahiye.

Umuhanda uri kunyuramo abantu n'imodoka. Hariho umuntu kuruhande uri kugenda warangariye imodoka. Umuntu yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Abagabo batatu bahagaze impande y'imodoka, iyo modoka iteye amarangi y'umweru n'umukara, ifite amapine y'umukara n'umweru, impande yaho hariho umugabo wunamye umeze nk'aho ari gushushanya.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, ikaba ipakiye igikontineri gifite amabara y'umutuku. Iyo modoka ikaba ifite amapine asa nk'igitaka, ikaba ifite ikibehe gisa n'umutuku, n'ikizuru gisa n'umweru.

Imodoka imeze nk'aho ipakiye inyanya. Izo nyanya zikaba ziri mu bisanduku. Ibyo bisanduku hejuru yaho hakaba hariho imboga. Imodoka hejuru yaho hariho igiti, iyo modoka iteye amarangi y'ubururu.

Imodoka iri kugendera mu muhanda uciyemo uturongonko ducagaguye tw'umuhondo, mu mpande harimo utw'umweru, iyo modoka ifite amarangi y'umutuku, amapine asa nk'umukara, mu mpande hakikijwe n'ibiti.

Abamotari baparitse moto zisa nk'umutuku, aba bamotari harimo abagore n'abagabo, bambaye n'amajire y'umutuku, na ma kasike y'umutuku.

Umumotari uhetse umugenzi kuri moto, wambaye kasike z'umutuku, atwaye moto y'umutuku, umurimo w'ubumotari utunze abantu benshi, bari mu gihugu cy'u Rwanda.

urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo imodoka, harimo n'abantu bagiye batandukanye ingeri zose. Abagabo n'abagore bambaye imyenda igiye itandukanye.

Imodoka iparitse iri kwinjiramo abantu. Iyo modoka ikaba imeze nk'aho ikora ingendo zo gutwara abantu mu ngendo zitandukanye.

Imodoka ziparitse ahantu ku murongo , umurongo umwe. Izo modoka zikaba zifite amabara y'umweru n'umukara , inyuma y'izo modoka hakaba hariho ibiti , zikaba hejuru hariho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo umeze nk’aho ari umumotari, inyuma ye hari abandi bamotari. Yambaye akajire gasa n’umutuku, yambaye na kasike isa nk’umutuku. Hariho umukobwa uri kwambara kasike.

Imodoka ziparitse ahantu hameze nko muri gare, hariho abantu bambaye imyenda y'umweru, izo modoka zisa n'umweru, zirimo abantu b'abashoferi bambaye imyenda y'umweru, impande yaho hariho inyubako irimo abantu.

Imodoka imeze nk'aho ipakiye ibitoki, iyo modoka ikaba ifite amarangi y'ubururu, ifite n'amapine asa n'umukara, iri kugendera mu muhanda uciyemo uturongo tw'umweru.

Moto ziparitse ahantu hameze nk'aho izo moto bazigurisha, izo moto ziteye amarangi asa nk'ubururu, afite amapine y'umukara, inyuma yaho hari ikimodoka gifite amarangi asa nk'umuhondo.

Abagore babiri bikoreye ibitoki mu bintu bimeze nk'aho ari ibitebo bapfunyitsemo ibitambaro, bameze nk'aho babijyananye ku isoko. Ibitoki ni byiza kuko abantu barabikunda ku masoko, babiteka kuko bagakuramo n'imineke.

Imodoka ipakiye inyanya ziri mu bitete bisa nk'ubururu. Iyo modoka ikaba ifite amarangi asa n'umweruru, mu mpande yaho hariho ibiti.

Imodoka imeze nk'aho iri gutwara abagenzi, inyuma ya ho hariho izindi modoka ziyikurikiye, iyo modoka ikaba ifite amarangi y'umweru n'umukara, hakaba harimo n'abantu.

Ikibuga kimeze nk'aho bakiniramo umukino w'amaguru . Icyo kibuga kikaba kirimo imirongo imanuye y'umweru, iryo zamu rikaba risa n'umweru, hariho na file isa nk'umweru.

Abantu bameze nkaho bari gukina umukino wa basiketi , bambaye imyenda itandukanye, harimo abambaye imyenda y'umuhondo n'iy'umukara, undi afashe baro ari kuyinaga.

Abagabo bahagaze bari ku magare bameze nk'aho bagiye gusiganwa kuri ayo magare, hariho abagabo bambaye imyenda y'umuhondo, n'abagabo bambaye iy'umutuku, hasi handitseho visiti Rwanda.

Abahungu bameze nk'aho bakoze uruziga, mo hagati harimo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'inkweto z'umukara, abo bahungu bambaye imyenda itandukanye, isa n'umweru n'umukara n'amasogisi y'umukara.

Abakinnyi bari gukina umukino wa basikete, gukina ni byiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri, ab'abakinnyi bakaba bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye imyenda isa n'umweru n'amasogisi y'umukara, undi yambaye iy'umukara, hariho n'undi mugabo uri kwiruka kuruhande wambaye ipantaro y'umukara.

Imodoka imeze nkaho iri muri kurusu. Iyo modoka ifite amarangi atandukanye asa n'umweru, umuhondo, umweru n'umukara. Hahagazeho abaporisi.

Abakinnyi ba basiketi b'abakobwa. Umwe afashe balo yambaye imyenda y'ubururu n'agapira k'umweru mu nda. Akaba uw'inyuma yambaye agapira k'umweru, yiziritse n'akantu k'umweru ku ivi.

Abantu bameze nk'aho bari mu masiganwa y'amagare. Aba bantu bakaba ari benshi impande yaho hariho n'abandi bantu bameze nk'aho bari gufana abo bantu .Abo bantu bambaye imyenda isa n'umweru ,n'umukara bambaye utugofero tw'umweru.

Abakinnyi bari gukina umukino wa vore. Gukina ni byiza, bituma amaraso atemmbera neza mu mubiri, bityo umuntu akagira ubuzima bwiza. Aba bakinnyi bambaye imyenda y'ubururu n'umuhondo.

Umugabo umeze nk'aho ari umukinnyi wa basiketi ufashe balo mu ntoki. Yambaye akantu k'umweru mu kaboko kamwe, yambaye n'amajezi asa nk'umutuku n'ubururu.

Ikiraro kiri kunyuramo amazi, hejuru y'icyo kiraro hariho abantu benshi batwaye amagare. Inyuma impande y'aho hariho abantu bameze nk'abatwaye moto, hariho n'imodoka, hariho n'ibiti biteye ku mpande.

Abantu batwaye amagare ku murongo. Imbere hakaba hariho umugabo uri kubatoza, wambaye imyenda y'igitaka n'umukara. Inyuma hakaba hariho abatwaye amagare, bambaye imyenda y'ubururu, n'utugare tw'umuhondo.

Abakinnyi bameze nk'abari gukina vore, bambaye imyenda y'umweru n'umukara, n'amasogisi y'umweru umweru. Impande yabo hariho abagabo bambaye udushati tw'umukara, harimo n'intebe zisa nkumuhondo n'icyatsi.

Abantu bari gukina umukino wa basiketi. Bambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu n'umweru, amasogisi y'umukara n'umuntu ufashe baro wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara.

Uruvunge rw'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bameze nk'aho bari kwishima, bari kubyina imiziki igiye itandukanye, hahuriyeho abantu b'ingeri zose, abagore n'abagabo bambaye imyenda igihe itandukanye.

Abakinnyi b'abakobwa bambaye imyenda y'umutuku n'umukara n'umweru. Bambaye n'amasogisi y'umweru n'inkweto zisa nk'umukara n'ubururu. Gukina ni byiza kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri.

Abagabo babiri bahagaze bameze nkaho hari ari abakinnyi bakina tenisi, abo bagabo bakaba bambaye udupira tw'icyatsi, n'amakabutura y'umukara, bafashe udutete mu ntoki.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bakaba bahagaze bambaye imipira y'umumweru n'amakabutura y'umweru, hakaba hari umwe wicaye imbere ya baro.

Abakinnyi bameze nkaho bari gukina umukino wa basikete, bakaba bambaye imyenda isa n'umuhondo, harimo n'utubara tw'icyatsi, bakaba bari kurwanira umupira.

Umukobwa uteruye akagare batwara, uwo mukobwa wambaye imyenda isa n'ubururu n'inkweto zisa nk'umweru, inyuma ye hariho abandi bana batwaye amagare.

Umugabo uhagaze imbere y'abakobwa b'abanyeshuri bari gukina umukino wa vore. Uwo mugabo akaba yambaye agapira kanditseho edikoci gasa nk'umukara, n'agakabutura. Afite n'akantu kumukara mu ntoki.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino wa basikete, gukina bituma, ni byiza bituma amaraso atembera neza mu mubiri, aba bakobwa bakaba bambaye imyenda zitandukanye.

Umugabo uhagaze ahantu hameze nk'aho ari mu kibuga, hashushanyijemo imironko y'umweru hameze nk'aho ari ku itaka, inyuma y'aho hariho icyapa cyanditseho Rwanda openi.

Abantu bikoreye inkwi, mu muhanda hari kunyuramo abantu bari gutwara amagare ari benshi, ku ruhande hariho n'umugabo uhagaze uri gufana aba bantu batwaye amagare.

Umukobwa uri gukina umukino wa basikete. Gukina ni byiza kuko bituma amaraso atembera neza mu mubiri. Uwo mukobwa akaba yasimbutse mu kirere, yambaye imyenda y'ubururu, yambaye n' inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru hariho abandi bantu bari kumushungera.

Abakobwa bari gukina umukino wa basiketi. Aba bakobwa bakaba bari mu kibuga. Inyuma yaho hariho abantu bari gufana, aba bakobwa bari gukina uwo mukino.

Abagabo babiri bahagaze, bambaye amashati y'mutuku n'umweru, bahagaze impande y'abakobwa b'abanyeshuri, basa nk'aho abo bagabo bari kwigisha abo banyeshuri, kurashisha umwambi.

Abantu babiri bari gukina umukino wa tenisi. Abantu bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye iy'umutuku n'ikabutura y'umukara, undi yambaye ikabutura y'umweru. Bafashe utuntu bakinisha tenisi. Gukina ni ibyiza bituma umubiri umera neza.

Abakinnyi bameze nk'aho bari gukina umukino wa vore. Abo bakinnyi bakaba bari muri sitade, hakaba hariho umutoza wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'ubururu.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino wa basiketi. Bakaba bari gukina bambaye imyenda y'umukara n'umweru n'iy'igitaka n'umukara.

Umukobwa ufashe akantu k'agagatete ameze nk'aho ashaka gukubita agatenesi gasa nk'umuhondo. Umukobwa akaba yambaye imyenda isa n'umweru n'inkweto zisa n'umweru, n'amasogidi y'umukara.

Abantu bameze nk'aho ari abakinnyi bakina umukino wa basiketi. Abo bakinnyi bakaba bambaye imyenda isa y'umuhondo, handitseho utugambo tw'icyatsi kibisi. Abo bantu bakaba bambaye amasogisi y'umweru.

Abakobwa bameze nk’abari gukina basiketi. Bamwe bambaye imyenda y’umuhondo, abandi bambaye icyatsi kidahiye, bambayemo n'utwenda mu nda tw’umweru. Barimo gukina umupira w’umutuku. Hariho n’abantu benshi bambaye imyenda y’umuhondo n’umweru.

Umukobwa ufashe balo umukobwa wambaye isaha afashe balo ari gukina umukino wa basiketi. Akaba yambaye agapira k'umweru inyuma ye hakaba hariho ibiti akaba ari kureba inyuma, imbere ye hakaba hariho n'inzu y'igorofa.

Ahantu hahuriyeho abantu benshi bari gushungera umuntu uri gukora siporo yo gusimbuka. Gukora siporo ni byiza, bituma amaraso atembera neza mu mubiri. Uruvunge rw’abantu benshi bambaye imyenda itandukanye.

Abakinnyi bari gukina umupira wa vole, abo bakinnyi bakaba bambaye imyenda y'umutuku, n'umweru, amakabutura asa n'umukara, bambaye n'inkweto zigiye zitandukanya, amasogisi asa n'umukara.

Akayira kari kunyuramo umugabo wambaye imyenda y'umweru n'umukara n'inkweto z'umweru, uwo muhanda urimo ibyatsi byinshi bimeze nk'aho batahakorera isuku.

Umuntu uri kugenda mu nzira. Iyo nzira ikaba nta wundi muntu uri kuyinyuramo. Hariho mu mpande uturabo dusa nk'umuhondo n'icyatsi, hepfo yaho hari inzu ifite amabati y'umutuku ariho uturongo tw'ubururu.